Iyi ni kompanyi ishinzwe ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubw'amazu n'ubw'ibindi bigiye bitandukanye, aho ushobora kuyikoresha byoroshye kuri telefone wakanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe urwego.

Aha ndi kubona iduka rya Simba supamaketi, hamwe na banki ikoreshwa izwi muri afuririkatwa ekwiti banki hamwe na emu yu eyi.

Icyapa kinini kiri mu muhanda aho cyerekana agahanda gatoya karimo ibinyabiziga byinshi, ubwo hari ikamyo isa umuhondo yari iri kuza igana ahari amagare abiri.

Izi ni zimwe mu nkweto zikunzwe gukoreshwa n'abantu bakina umupira w'amaguru aho arizo bakunze kwambara bagiye gukina cyangwa bari mu myitozo yo gukina umupira w'maguru aho twavuga akenshi mu makipe cyangwa abakinnyi nizo bambara bagiye gukina.

Iduka rinini rigezweho, aho bakoresha uburyo bugezweho bwo kwishyura hakoreshejwe amakarita ya banki cyangwa ubundi buryo. Hakaba hari umusaza wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ingofero.

Amashati meza cyane mashyashya ari mu mabara agiye atandukanye ari no ku murongo harimo ibara rya kaki, hakabamo ibara ry'ubururu, hakabamo ibara ry'umuhondo, hakabamo n'ibara ry'umukara n'andi mabara atandukanye.

Amakote acuruzwa agiye afite amabara atandukanye, harimo ibara ry'ikigina, hakabamo n'ikote rifite ibara ry'umukara, bimanitse ahantu, bimanitse hejuru byose hamwe kugira ngo bigurishwe.

Iduka ririmo umugore wambaye igitenge gisa umutuku n'ubururu, aho acuruza ibintu bye bitandukanye, akaba afitemo n'umunzani mu iduka rye.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye yo mu bwoko bugiye butandukanye aho harimo imyenda y'abagore, hakabamo n'imyenda y'abagabo ariko bikozwe neza cyane.

Iri ni iduka ry'abasirimu dukunze gucuruza imyenda myiza igezweho kandi rikunda guharwamo n'abantu biyubashye cyane uko bigaragara haba harimo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda igezweho, iy'abagore cyangwa se iy'igitsina gore, aho harimo amakanzu menshi bambitse bambitse ibyabugenewe kugira ngo abaturage bayibone neza.

Iyi ni imwe mu mitako ikunda gukorwa n'abanyarwanda aho icuruzwa akajya yambarwa mu ijosi cyangwa andi mazina bakunda kuyita ibinigi, aho umuntu ayigura akayambara mu ijosi cyangwa ku kaboko.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umukara, iri mu bwoko bwa jipe ikaba yarasohotse mu mwaka wa bibiri na cumi n 'umunani, ikaba iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda.

Imodoka nziza y'umukara yakozwe n'uruganda ruzwi ko rukora imodoka nziza kandi zikomeye, ari rwo Toyota akaba ifite indi modoka imeze gutya ifite amapine meza akomeye ndetse n'amatara meza.

Aha ni ukugurisha iyi modoka iri mu bwoto bwa korora yakozwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane ikaba iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo itatu na zirindwi iyi modoka ni imodoka nshyashya itarigeze igenda imodoka nziza cyane.

Iyi modoka iragaragara ni nziza, ifite ibara rijya gusa umweru ariko ritari umweru, irimo irasa nk'aho yamamaza isoko rya Kigali cyangwa ibindi bintu ariko bijyanye n'ibinyabiziga.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umukara ikaba iri mu bwoko bwa masedezi benzi, ikaba yarakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Ikaba irigurishwa amafaranga miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inoti nyinshi z'amoko atandukanye zifitwe n'umugore wambaye ibikomo ku kaboko k'ibumoso, akaba afite n'ibindi bifunga amafaranga kugira ngo abashe kubarwa mu buryo bwiza.

Aha turi kubona umugore wambaye agapfukamunwa, ufite imisatsi myinshi, hanyuma yari aje kugira bamuhe serivisi zo kumuha amafaranga, uko tubibona hari umugore uri kubara amafaranga bigaragara ko yari agiye kuyamuha.

Bimwe mu bikomoka ku mata bizwiho ko bikundwa n'abana akaba ari amata aba yongewemo isukari n'indi misemburo, bikaba bikundwa n'abana cyane bikaba biri mu cyuma gishinzwe gukonjesha.

Udukoresho dukozwe mu biti, twifashishwa mu gusukura cyangwa mu kuvana imyanda hagati y'amenyo, cyane cyane dukoreshwa iyo umuntu yariye inyama, ashaka gukura izasigaye mu menyo.

Aha hari isahani iteretseho ibyo kurya bikorwa mu ifarini n'isukari bizengurukishijwe udupapuro dufite udupapuro dusa umweru, aho utu tuntu turiho turyoha cyane cyane cyane.

Iki ni igikombe cy'ikirahure kirimo amata, ubona ko ari ibintu byiza wenda mu bijyanye n'umuco wa kinyarwanda kubera ibintu bijyanye na ''girinka munyarwanda''; ubona ko birimo birerekana isura nziza y'u Rwanda, gushyigikira amata.

Ubwoko bw'ibiribwa buzwi nka capati, aho zikundwa cyane n'urubyiruko cyangwa se abakiri bato, aho ziteretse ku isahani ari capati nyinshi, aho zikorwa mu ifarini.

Ahandi kubona abagabo babiri byasaga nk'aho bari kuganira, imbere bateretse ibitabo bari kugenda babivugaho babivugaho hakaba hari n'amakarito yari abateretse imbere gusa bagakomeza bakavugana.

Uburyo bushyashya bukoreshwa mu ikoranabuhanga mu kohereza amafaranga binyuze kuri telefone apana kujya ku mabanki bisanzwe ahubwo hakifashishwa telefone mu ikoranabuhanga mu ikoranabuhanga.

Uburyo bworoshye wahaguramo umuriro ubifashishije ikigo cy'itumanaho cya airtel money ukagura umuriro ukoresheje telefone yawe utavuye aho uri ukanze akanyenyeri ijana na kabiri akanyeri kane akanyenyeri rimwe urwego.

Icyangombwa gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, icyangombwa kikaba kigaragaza ko nta deni cyangwa nta musoro n'umwe utarishyuwe n'umucuruzi runaka.

Gitasi igaragaza umuntu witwa Mushyirahamwe Gregoire yishyura imisoro, akaba yarishyuye ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, akaba we aherereye mu karere ka Kicukiro.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga akunze kuvuga ko ari amayero akoreshwa mu bihugu by'Iburayi kenshi aho ng'aho twavugamo nk'ubufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, aha ngaha iyo umuntu afite mu Rwanda ajya ku kigo kibishinzwe bakamuhinduriramo amanyarwanda.

Aya ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Nayigeriya akaba yitwa amanayila, aha ni amafaranga menshi y'amanayila bari barimo kubara, kubara n'abandi bantu inyuma.

Aha ni iguranwa ry'amafaranga azwi nk'amadolari, aho yari ari guhabwa umuntu, hakaba hari n'andi mafaranga yo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye.

Aya ngaya ni amafaranga y'abanyamahanga agaragara nkaho afitwe mu ntoki, atari ku ikoranabuhanga, hariho umugabo wambaye amarinete ndetse ni n'amafaranga magana atanu.

Aya ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, aho bayita amaropi ni amafaranga menshi, aho ifaranga rimwe rifite agaciro k'icumi y'amafaranga y'amarupi n'ubundi mu bisanzwe.

Izi ni inote zigiye zitandukanye, zikoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye, aho twavuga ko harimo n'amafaranga ya ya magana atanu, iza bibiri, iz'igihumbi, bigendeye ku bihugu bigiye bitandukanye.

Inoti nyinshi zigiye zitandukanye n'amafaranga yo mu gihugu cy' Ubuhinde aho hariho ishusho y'imwe mu ntwari z'igihugu cy'Ubuhinde ariyo bita mahatima gandi.

Inoti ikoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa, aho ari inote y'amayuwani makumyabiri, amayuwani ni ubwoko bw'amafaranga cyangwa niko bita amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga cyangwa amafaranga aturutse mu bihugu byo hanze aza mu gihugu cyo mu Rwanda aho akugeraho byihuse hifashishijwe buriya buryo bwose bugiye butandukanye bwa moneygram bwa western union bigiye bitandukanye byose.

Inzu ishinzwe iby'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, aho ujyana amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amafaranga y'amanyarwanda bigendeye kuko angana, hanze hakaba hari intebe zikiri mu mashashi.

Iduka rishinzwe ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga. Aho ujyana amafaranga y'abanyamahanga bakaba bakuvunjira bakaguha amafaranga yandi ushaka, cyangwa ukaba wajyana amafaranga y'Amanyarwanda bakaguha amafaranga y'abanyamahanga.

Rimwe mu maduka akora ibijyanye n'ivunja hamwe n'ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga, aho ujyana amafaranga y'abanyamahanga bakaba bakuvunjira bakaguha amafaranga yandi y'abanyamahanga ushaka, cyangwa bakaguha amafaranga y'igihugu urimo.

Nk'uko bigaragara ku cyapa kigaragaza icyo inyubako ivuze, kuri iyi foto biragaragara nk'aho ari aho wajya kuvunjisha amafaranga yawe ufite nk'amanyarwanda bakaba baguha andi mafaranga, bitewe n'igihugu urimo cyangwa wifuza kujyamo.

Ahakorerwa ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga aho ushobora kujyana amafaranga y'abanyamahanga bakaguha amafaranga yo mu gihugu urimo cyangwa se amanyarwanda.

Aha n'ahantu bakora iby'ubucuruzi aho bagura bakanagurisha amafaranga y'amanyamahanga, aho ujyana amafaranga amwe bakakuvunjira bakaguha ayandi bitewe n'ayujyanye naho igiciro cyabyo kigiye kigeze n'itandukaniro ririmo.

Iduka rishinzwe ivunja n'ivunjisha aho ushobora kujyana amafaranga y'amanyamahanga cyangwa se amafaranga yo mu bindi bihugu bakaguhindurira bakaguha amafaranga bitewe n'ubwoko bw'amafaranga bundi ushaka. Tuvuge ko ushaka kujyana amafaranga akoreshwa mu gihugu cy amerika bahaguha amafaranga y'amanyarwanda.

Aha ndi kubona intebe, intebe nziza zigiye tandukanye, aho hari intebe z'umukara hakaba n'izindi ntebe zifite imisego ijya gusa umweru, hakaba n'utundi dusego dutoya turi ku ntebe nini, na two twiza cyane.

Iki ni icyumba kiyiza mu bigezweho aho harimo akabati keza, igitanda cyiza, amashuka meza, imisego myiza cyane harimo n'imitako myiza aho harimo n'amasaha meza agira n'inzogera kuburyo yakubyutsa.

Ni ibikoresho byiza ameza, intebe ndetse urabona byose ni iby'umuco wa kinyarwanda, bikozwe mu mbaho kandi urabona ko bisa neza biteye verine, hasi hari amakaro ubona ko hirya na ho hari utubati, ubona ko ari ibintu bigaragara neza.

Ahakorerwa ibikorwa by'ubugenjye byo kubaza, bakaba babaza intebe, bagakora intebe nziza zigezweho, cyangwa se ameza, utubati, ndetse n'ibitanda byiza bikomeye bigezweho, aho harimo utubati n'amezaza n'udutebe dutoya.

Aha ni hamwe mu hantu abantu bakundana bakunda gusohokera kugira ngo bishimane, banywe, banarye, bumva n'akayaga bumva hari amahumbezi, ni ahantu heza cyane kuhasohokana n'umuntu mukundana.

Amacumbi meza agezweho agaragara neza cyane, aho umuntu uturutse mu bihugu byo hanze cyangwa se wo mu gihugu ashobora kugenda akararamo akishyura bikaba bifite n'ubwogero rusange buba buri hanze ku buryo umuntu ushaka kuruhuka ajyayo.

Inzu nini igizwe n'amacumbi menshi cyane ikunda gucumbikira abantu bagiye baturutse ahantu hatandukanye, akenshi baturutse mu bihugu byo hanze cyangwa abo mu gihugu imbere, hasi hari kugaragara n'ubwogero bw'abantu bwa rusange.

Umutetsi ufite icyuma ari gukata karoti akaba yambaye imyambaro y'umweru ndetse nagapfuka munwa gasa ubururu hakaba hari n'imbuto zindi ziteretse imbere ye.

Izi ni zimwe mu nzu, mu zigezweho ari aho bafite amatara meza agezweho, ndi kubona amatara menshi meza arimo agezweho, hakaba arimo uturima tw'igikoni twiza cyane tugezweho natwo.

Ibiro bishinzwe ubwishingizi bwitwa sunlam, aho bakirira abantu bashaka gufashwa kugira ngo babone ubwishingizi muri iyi kompanyi yabo aha niho bakirira abantu.

Iyi ngiyi ni inzu ifite icyapa kiranga igikorerwamo imbere ndetse iragaragara nk'aho ikorera mu bwishingizi runaka, bukora ibintu runaka.

Biragaragara ni abagabo batatu basa nkaho bafite igikorwa bari gukangurira abantu, nk'umushinga cyangwa koperative cyangwa ubwishingizi bashaka gushyiramo abantu, bitewe n'icyapa kibanditse hejuru.

Icyapa kinini cyerekana cyangwa se cyamamaza kompanyi ishinzwe ubwishingizi yitwa Saniramu, aho byandikishijwe mu mabara asa ubururu no hasi hakaba hari ikindi cyapa cyamamaza Cicinga bisa umuhondo.

Aha ndi kubona inzu y'ubucuruzi, aho hari icyapa kigaragaza, kigaragaza kompanyi yitwa Orudi maco, hakaza hejuru hakaba hari inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Muri banki mo imbere aho harimo abantu benshi bagiye batandukanye, baje gushaka ubufasha bugiye butandukanye aho haba hari ababa baje gufata inguzanyo, hari n'abandi baba baje kubitsa amafaranga, hari n'abandi baba baje gufungura konti nshyashya zo muri banki.

Uno mugabo birasa naho arimo arerekana uburyo ki inguzanyo ye ndetse n'ibindi bintu yagiyemo bijyanye n'amafaranga, birimo birunguka kandi anabishishikariza abantu ukuntu wasevinga amafaranga akazakugirira umumaro.

Aha ni mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya meke, inyubako ya meke, aho kopedu ikorera, mu kigo cya leta kitwa kopedu,

Iyi ni inama, yahujije abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo n'abagore. Aho bari bari mu nzu, mu nzu y'inama, aho ifite igisenge gisa umweru n'umukara, hakaba harimo n'itara.

Isoko ry'ibiribwa aho bacuruzamo kokombure, inyanya, isenda, ibitungururu, karoti pavuro, n'ibindi bigiye bitandukanye harimo abacuruzi bagiye batandukanye.

Iri ni isoko ryo mu mujyi wa Kigali, aho hahurira abantu benshi baje mu bikorwa byo kugura no kugurisha ibyo kurya cyangwa ibyo kwambara, hakaba harimo akavuyo, akavuyo kanini cyane harimo n'ibinyabiziga.

Zimwe mu nyubako z'ubucuruzi ziri mu mujyi wa kigali aho hacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'imyenda, inkweto, ibikoresho byo mu nzu, n'ibindi bigiye bitandukanye hakaba harimo n'amashami ya banki nk'uko harihomo ishami rya banki ya kigali.

Iri ni isoko ririmo umucuruzi, hari kugaragara abacuruzi babiri bafite ubwoko bw'imbuto zitandukanye, harimo imineke, inanasi, imyembe n'ibindi bitandukanye, biragaragara ko bari mu isoko, bari gucuruza biteza imbere.

Iduka ricuruza ibikoresho byakozwe n'intoki, bikoreshwa bizwi nk'iby'abanyarwanda bakunda, bikunda gukoreshwa nk'imitako, harimo uduseke, harimo n'utundi dutebo tugiye dutandukanye.

Iri ni iduka ricuruza imyenda, rikaba ricuruza ibintu byose bijyanye na gakondo y'u Rwanda, aho harimo imyenda, hakabamo n'ibindi bintu bindi bigiye bitandukanye byo mu Rwanda

Iduka ririmo abantu, rikaba ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho twavugamo uduseke, habamo amasakoshi y'abagore, hakabamo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi bikorerwa mu Rwanda.

Iri ni huriro ry'abantu aho turi kubonamo imodoka ishinzwe kujyana amazi iyavana hamwe iyajyana ahandi hakaba harimo n'abaturage benshi cyane, hakaba harimo n'abashinzwe gutwara ikinyabiziga cy'imitende ibiri, benshi hakaba harimo n'ibindi binyabiziga byinshi bigiye bitandukanye.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, uko bigaragara ni igitsina gore kiba kibanzemo cyane kirimo gucuruza, ibyo bacuruza twavugamo inyanya, intoryi, insenda n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'ubucuruzi bw'ibiribwa hamwe n'imbuto, harimo inyanya zigezweto ndetse ku mufungo, hari umugore wambaye amaherena wari kumushyirira inyanya mu ishashi, yaragiye kuzigura.

Isoko ricuruza ibikapu, inkweto zo gukorana inkweto zo kogana, ibikapu bisanzwe byo guhahiramo, isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo n'abacuruzi.

Aha turabona umusore wambaye umupira w'umutuku n'agakapu k'ubururu hamwe n'inkweto z'umukara, yikoreye agatebo karimo imineke, imineke myinshi cyane uko bigaragara yari agiye kuyicuruza.

Kamwe mu tuzu dutangirwamo serivisi z'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cyitwa emutiyene aho ubasha gufata inguzanyo bise mokashi ukaba wagenda wishyura gake gake.

Umugabo uhagaze imbere y'akazu gatangirwamo ubufasha, aho bafasha abaturage kuba babona serivisi z'ikigo gishinzwe itumanaho Emutiyene Rwanda, kubona ubufasha byoroshye nko kubitsa cyangwa kubikuza.

Abahungu babiri bambaye amapantaro asa kake ndetse n'amashati y'umweru, bose bahetse ibikapu bigaragara nk'aho wagira ngo ni abanyeshuri, baje kwaka serivise z'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN mubayilo mani.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, wagiye kwaka ubufasha muri serivisi zikigo cy'itumanaho, gishinzwe guhamagara cyangwa gukoresha murandasi, aho ushobora kubitsa cyangwa ukanabikuza.

Umukobwa ukora mu tuzu twegereye abaturage two muri kompanyi ishinzwe itumanaho yitwa MTN mobayiro mani, aho akoramo kugira ngo afashe abaturage kubona serivisi mu buryo bworoshye batiriwe bajya kure.

Aha ni umuntu wari uvuye guhaha cyangwa wari ugiye guhaha, akaba yarigiye kwishyura ibyo yahashye cyangwa ibyo yaragiye guhaha yifashishije ikoranabuhanga, aho yariri kureba ku ikarita ya banki agakoresha na telefoni yiwe.

Ibi nibijyanye no kugura mega cyangwa kugura interineti, ukoresheje mobayiromane cyangwa uburyo bw' ikoranabuhanga muri rusange.

Uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'itumanaho cyitwa mtn gishinzwe gishinzwe kohereza amafaranga kuva ku umuntu umwe ajya ku yandi, aha ni uburyo bushyashya bazanye bwo kohereza amafaranga hifashishijwe imibare ariyo bakunze kwita kode umuntu akaba yakohereza amafaranga bitanyuze kuri nimero bisanzwe.

Urubuga rw'isoko rwa Kimironko, aho ushobora guhahira ku isoko rya Kimironko ukoresheje terefone yawe cyangwa se ikoranabuhanga, ukaba wahaha wibereye iwawe, bakaba bakugezaho ibyo waguze kandi aha bari bashyize, bari bagabanyije ibiciro.

Aha ni uburyo bushyashya bwaje bw'uko ushobora guhahira ku itumanaho, aho ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ukoresheje murandasi, ukaba wahaha ibintu bigiye bitandukanye ku masoko y'abanyamahanga.

Umugabo uhetse igikapu kinini bagemuriramo ibyo abantu baguze, yegamye kuri moto abijyana aho abishyikiriza ababa babiguze cyangwa se abaguzi babyo.

Uru ni urubuga rwitwa uzuri, aho bari batanze, bari bagabanyijeho mirongo itatu nagatanu ku ijana by'ibiciro byari bisanzwe biriho, mu gucururiza kuri murandasi.

Urutonde rw'abagore cyangwa se igitsina gore kirimo ubuyobozi bw'igihugu, aho twavugamo INGABIRE Paula, ariwe ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu gihugu cy'u Rwanda.

Iduka ricuruza ibiribwa hifashishijwe ikoranabuhanga cyangwa se murandasi, aho umuntu akoresha urubuga rwabo akaba yahaha ibiribwa bigiye bitandukanye.

Uru ni rubuga rukorerwaho serivise zo gucuruza ibiribwa bigiye bitandukanye bakabicuruza kuri murandasi aho, aho turi kubonamo ibiribwa bigiye bitandukanye n'igiciro by'ibyo biribwa kuri urwo rubuga.

Iyi ni imwe mu mazu akunze gukodeshwa, gukodeshwa cyane aba, aba agezweho, aho akunda gukodeshwa n'abantu bavuye, baturutse mu mahanga baje mu Rwanda, bafite amabizinesi bakora abaha amafaranga menshi.

Inzu nziza ifite amarangi meza ndetse n'amakaro meza agezweho, iherereye i Kibagabaga mu Mujyi wa Kigali, ikaba iri gukodeshwa amadorari y'Amerika ijana na mirongo itatu n'atanu.

Inzu nziza igezweho iherereye mu mujyi wa Kigali, aho ifite amarangi meza y'umweru ikaba ifite amatara meza agezweho, ikaba ari inzu igurishwa amafaranga, miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda iherereye muri kigali.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amakaro meza, ifite n'amatara meza, igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Umugore w'umwirabura uhagararanye n'umugabo w'umuzungu mu bwatsi, aho umugore yambaye ikanzu umugabo akaba yambaye ipantaro ndetse n'ishati.

Inzu nziza igezweho, iherereye i Kigali ikodeshwa amadorari magana inani, ku kwezi, inzu isa neza cyane, ifite intebe zigezweho, ikaba ifite ameza agezweho, asa neza cyane.

Iyi ni zimwe mu nzu ziba zikodeshwa ziherereye Kibagabaga harimo ibyumba bibiri aho harimo n'aho umuntu akarabira hamwe, akaba ari inzu ukodesha hatarimo ibikoresho byo mu nzu.

Iyi ni inzu ikodeshwa iherereye muri Kigali Kacyiru, aho ifite icyumba kimwe, ikagira n'ubwogero bumwe, umuntu waba uyishaka yayikodesha amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi, aho uyishaka yahamagara nimero ziri hejuru.

Inzu nziza igezweho, iri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama, ifite ibyumba bine ikagera n'ubwogero bune, ikagira ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atadatu y'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza ikodeshwa amadolari ibihumbi bibiri ku kwezi akaba ari inzu nziza ikodeshwa ku buryo uwayishaka yahamagara zeru karindwi umunani gatandatu zeru rimwe gatandatu karindwi mirongo inani n'icyenda.

Inzu nziza igezweho ifite ubwirinzi bw'utwuma tugiye turinda igipangu, aho inzu nziza ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, akaba ari inzu yegeranye n'umuhanda.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda, ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Iyi ni inzu ikodeshwa ikaba iherereye ku Gisozi mu karere ka Gasabo aho ifite icyumba kimwe ikagira ubwogero bumwe ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi.

Aha ni inzu ikodeshwa iherereye i Remera aho igizwe n'icyumba kimwe, ikagirwa n'ubwogero bumwe, ikagira n'igikoni mu nzu mu imbere, aho umuntu uyishaka yabandikira akayibona.

Iri ni iduka ryitwa hudu mariti supamaketi rigiye ricuruza ibyo kurya by'amoko atandukanye.

Iri ni iduka ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibishinzwe ubwiza, ibindi byo kwambara, ibintu byo mu byiciro byose bigiye bitandukanye.

Iri ni isoko, ricuruza amasakoshi y'abagore, aho birimo gucuruzwa n'umugore, hakaba harimo n'abagabo mu isoko, hakaba harimo n'abasaza.

Iri ni isoko ririmo imbuto zo kurya ndetse biragaragara yuko hari isoko rinini rikorerwamo n'ibindi bintu, ibijyanye n'imyambaro, ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Gahunda ya Leta yitwa EjoHeza ishinzwe kuzigamira abaturage, cyane cyane abageze mu myaka y'izabukuru, aho hari umusaza wambaye ingofero ndetse n'ishati y'umweru akaba afite n'igikapu.

Abaturage mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kunywa, ibyo kurya, imigati, ibyo kunywa n'ibindi bi bye bitandukanye, ni abaturage benshi baba baje baturutse impande zigiye zitandukanye.

Iduka ricuruza inkweto, aho hari ibikarito inkweto zivamo, aha akaba ari aho bishyurira inkweto bafashe, bakaba bishyura mu buryo bugezweho bw'ikarita za banki.

Iri ni iduka ry'imbuto aho uyu musore uri hano yaraje guhaha imbuto uko tubibona ziri ahangaha ahagaze no hirya y'aho zirahari.